Icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo y'icyatsi agiye atandukanye ndetse handitseho amagambo y'umweru agiye atandukanye ndetse icyo cyapa gishushanyijeho abantu batatu bari mu mutaka usa icyatsi.

inyubako ikoreramo saniramu ikigo gikorera mu Rwanda gitanga ubwishingizi hari mudasobwa eshatu amafoto ari ku gikuta ndetse n'ibyapa.

Icyapa kiriho umukobwa w'inzobe ufite imisatsi migufi wambaye ikoti ry'umweru, ikote risa n'ivu ndetse n'agashati k'umweru, ndetse usa nk'aho uri guseka cyane, ndetse handitseho amagambo agiye atandukanye kuri icyo cyapa ari mu mabara y'umweru ndetse n'andi mabara y'ubururu yanditseho imibare igiye itandukanye.

Turimo turabona ibikorwaremezo nk'umuhanda, ibiyaga, ibiti n'ubwo uwareba neza atitegereje yabona wagirango ngo byakundukiye mu mazi, ariko byatewe n'ifoto bafashe bigaragaza bisa nk'aho ibi biti n'amapironi byaguye mu nyanja cyangwa mu mazi. Ariko bari bagambiriye kutwereka ibikorwa remezo nk'imihanda, n'ibiti n'ibindi.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru hariho amabara y'ubururu, hasi handitseho amagambo agiye atandukanye, harimo ifoto y'umuryango, umugabo n'umugore n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa.

Umukobwa w'inzobe wambaye amadarubindi n'ingofero'umuhondo; yambaye agasengeri kari mu mabara y'icyatsi cyerurutse cyane ndetse n'agapira k'umukara; mbese icyo cyapa cyanditseho amagambo y'icyatsi yerurutse ajya

Icyapa cy'umweru handitsemo amagambo y'icyatsi ndetse n'umukara agiye atandukanye harimo n'amabara y'icyatsi yandikishijemo amagambo y'umweru agiye atandukanye.

Telefone harimo irimo ibara ry'umweru, ndetse umuhondo, ubururu, harimo amagambo agiye atandukanye, imibare igiye itandukanye ari mu ibara ry'umukara, ndetse icyatsi n'umutuku, bigiye bitandukanye.

Ikarita y'umukara iriho imibare igiye itandukanye, iriho utuntu tw'umutuku ndetse hasi hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Umuntu ufite telefone y'umukara ndetse muriyo telefone harimo amabara y'icyatsi ndetse amagambo yanditse amagambo agiye atandukanye yanditswe mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Telefone iri mu mabara y'umukara ndetse muri iyo telefone haditsemo amagambo y'umukara, ndetse n'umweru agiye atandukanye, ndetse harimo n'andi magambo y'umutuku ashushanyije utuntu ndetse, handitse ho amagambo agiye atandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ishati yumweru na karuvati ufite igikombe ndetse iruhande rwiiwe hakaba hari akabati karimo ubwoko bw'inzoga butandukanye, ndetse akaba afite n'igikombe mu ntoki ameze nkaho ari gukuramo ikintu.

Iyi foto iragaragaza ahantu ku meza ndetse hateretse ibirahuri, ndetse hari umuntu uri gusoma igitabo, ndetse hariho n'agatambaro ku meza, bigargara ko aho hantu ari muri resitora.

Ibifunika birimo inzoga harimo ibifunika by'umutuku, icyatsi, ubururu ndetse iruhande inyuma yaho hariho akabati karimo inzoga nyinshi zitandukanye, harimo ama jus ndetse n'izindi nzoga z'ubwoko butandukanye.

Umugabo bigaragara nkaho ari mu kabari afite icupa ndetse ari no kwirebaho ndetse iruhande afite mu kandidi kaboko afite ikindi kirahuri ari gusukamo inzoga, ndetse iruhande rwe akaba ateretseho i jagee iruhande rwe, ndetse inyuma ye hakaba hariho n'ubundi bwoko bwinshi bw'inzoga.

Iyi foto iragaragaza intebe ebyiri ziri ahantu ku muhanda imbere y'inzu ndetse hariho n'inzugi z'ibirahuri ndetse n'amakaro hasi.

Ahantu mu kabari hari umugabo wambaye agapira k'umutuku ndetse inyuma yi imbere yiwe hari amateleviziyo manini ya rutura, ari kwerekana ibintu bimeze nk'ikinamico. Ndetse iruhande.

Amashati agiye atandukanye ari mu ibara rya kacyi, icyatsi, umuhondo, umutuku, icunga ndetse n'indi isa nk'umukara; iryamishijwe ahantu hameze nk'aho ari ku gitambaro kirimo ibara ry'ubururu bwerurutse cyane ndetse n'icyatsi cyerurutse cyane.

Uyu ni muhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usizemo amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, iruhande rwaho hari ibiti byiza by'icyatsi ubona bitanga umuyaga.

Inzu y'umweru, irimo akabati karimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibikapu, inkweto, ndetse n'indi mitako igiye itandukanye. Iyo nzu isa nk'umweru, ifite amadirisha y'umukara.

Imipira igiye itandukanye imanitse hejuru mu kabati y'amabara agiye atandukanye y'amaboko maremare ndetse n'amapantaro ari iruhande hasi agiye atandukanye.

Imodoka y'umukara iparitse ahantu, ndetse iyo modoka inyuma yaho harafunguye, bigaragare nk'aho bari kwerekana ibintu byari birimo bigiye bitandukanye.

Imodoka iri mu ibara ry'ivu, ndetse iruhande rwaho hari abagabo babiri ndetse n'umugore, umugabo umwe yambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara, ndetse n'umugabo umwe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu ndetse n'umugabo n'umugore uri hagati ufite icyapa mu ntoki.

Imodoka iri mu ibara ry'ivu ndetse n'ibirahuri by'umukara ifite amatara y'umuhondo iri mu muhanda inyuma yaho hariho igipangu kirimo amabuye y'umweru, ndetse n'umukara ndetse muri uwo muhanda hateye ibiti bike bitandukanye ndetse n'amatafari agiye yubakishijwe mu muhanda.

Imodoka y' umukara iparitse ahantu hameze nkaho hasakaye ndetse inyuma yaho hari ururabo ndetse bimeze nkaho imodoka iparitse ahantu mu gipangu.

Icupa ry'amazi ndetse n'ibinyamakuru bigeretse ku meza y'ikirahure ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru ndetse iyi nzu iparitsemo imodoka nini z'umweru zifite amapine y'umukara ndetse n'amatara y'umutuku n'icunga n'umweru ndetse iyo nzu yubakishijwe amakaro.

Abagabo babiri bahagaze umwe yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro yumweru, n'undi wambaye ishati y'umweru n'amabara y'umutuku n'umukara n'ipantaro y'ivu, ndetse inyuma yabo harimo imodoka eshatu z'amabara y'umweru, ndetse hariho n'ishitingi yanditseho amagambo agiye atandukanye.

Ikiganza cy'inzobe kiri gukora mu mu cyuma kibara amafaranga, ndetse hejuru y'icyo cyuma hariho, hariho umushandiko w'amafaranga agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umweru.

Umugore ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye ishati y'amaboko maremare y'icyatsi, uri kubara inote zigiye zitandukanye mu ntoki ziwe ndetse imbere yiwe hateretse ameza ndetse n'imashini y'umukara ndetse imbere yiwe hari ibitabo ndetse n'umuntu yicaye imbere ye n'amafaranga menshi atondekanye.

Iyi ni inzu ikoreramo ikigo kizwi cyane mu Rwanda mu gutanga ubwishingizi, gikoresha amabara y'umweru n'ubururu kandi gitanga ubwishingizi bw'ubuzima, si ubuzima gusa kandi batanga ubwishingizi ku bintu bigiye bitandukanye, imitungo mu gihe umuntu imitungo yahuye n'ikibazo cyangwa se ikinyabiziga cye cyahuye n'impanuka baramufasha kugirango yongere asubirane ibyo yahombye.

Umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'ubururu n'umweru n'umutuku, wambaye agapfukamunwa k'ubururu ufite imisatsi migufi y'umukara, wambaye inkweto ndende z'umukara. Ahagaze imbere ndetse hari inyuma ye hari umugabo muremure wambaye ishati y'umweru irimo amabara y'ubururu.

Umugore w'inzobe ufite imisatsi miremire y'imikara ufite telefone, ndetse iruhande rwiwe ku meza hateretseho igikombe ndetse n'agasahane karimo ishashi, inyuma ye hari icyuma cy'umutuku gishushanyijeho icupa ryanditseho coca, ndetse icyo cyuma kirakonjesha.

Umugore wambaye igitambaro kirimo icyatsi n'umukara, ufite ijage y'amata mu ntoki ndetse iruhande rw'iwe hateretseho indobo nini cyane y'icyatsi, iri mu mabara y'umweru ndetse n'imeza iteretse ku ruhande y'umweru, iteretseho ijagi ndetse n'umupfundikizo wayo w'ubururu ndetse iruhande rwawo hari ikigega kinini cy'amata gisa ubururu, cyanditseho amagambo y'umweru atandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, ufite ijage y'umweru ndetse n'igikombe gisa icunga wambaye isaha y'umweru, iruhande rwe hari akabati gasa ubururu kari mu mabara y'umweru ndetse n'ibikombe bisa umuhondo, umutuku, ubururu, bigiye bitandukanye.

akabati karimo imineke n'udusanduku turimo imbuto zigiye zitandukanye zivanzavanze harimo izisa umweru, umuhondo ndetse n'umutuku zigiye zitandukanye

Icyapa kinini gishushanyijeho amata ndetse gishushanjeho inka ndetse icyo cyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanyecyo. Icyapa gishushanyijeho udukarito kandi turimo amata ndetse imbere yaho hari ipikipiki ihateretse ndetse n'indobo isa ubururu bita kandagiye ukarabe.

Hano rero ni ahantu ushobora kugurira ibintu runaka bakabikuzanira uko ubibona bitwa akarwa hariho akantu kameze nk'akamodoka rero nakererekana ko bishobora kukugeraho wibereye mu rugo upfa kuba wowe wafashe mudasobwa yawe cyangwa telefone ukajya ukabasura ukareba.

Iyi foto iragaragaza ikintu kimeze nk'ikigega kinini gikoze mu cyuma cyanditseho inyange. Ahangaha nicyo batunganyirizamo amata y'inyange, kugirango adakonja. Bari kuyatunganya kugirango adapfa, bakayashyiramo

Iyi foto iragaragaza amata akorerwa muri mukamira ndetse ari mucyuma gikonjesha kuburyo afata aya mata ya mukamira akay'ashyiramo akaya konjesha ndetse yamara kuyashyira mucyuma gikonjesha kugirango ayo mata cyangwa amaji adatakaza ubushobozi.

Iyi foto iragaragaza akabati karimo amazi bashyiramo amazi yo kunywa aya mazi amazi asukuye bita jibu ayo mazi aba aturutse ku ruganda asukuye ameze neza ari mu kantu k'akabati gafunze k'ibyuma.

Iyi foto igaragaza umuntu uri gusuka amata ari mu gicuba, ari kuyasuka mu kintu kimeze nk'ikigega bashyiramo amata kugirango ayo mata adapfa.

Iyi foto iragaragaza ahantu bacuruza amata ya Mukamira deyari ariho ikigega igicuba kinini bashyiramo amata kugira ngo amata atangirika ndetse mo aho ngaho hariho amazi y'ubwoko butandukanye ndetse n'amaji yo kunywa y'ubwoko butandukanye.

Ifoto iragaragaza ibyansi mu kinyarwanda bashyiramo amata noneho mu rurimi rw'amagahanga babyita imibirikira bashyiramo amata kugira ngo adapfa, noneho bayajyanye ku ikusanyirizo murakoze.

Amagi ateretse mu tubati ndetse iruhande rwayo hari umugabo wambaye ishati y'umutuku ndetse inyuma yanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse ayo magi bayapakira muri utwo tuntu kugira ngo ataza kwangirika.

Iyi foto iragaragaza umuntu uri kunywa amata ndetse ku ruhande ariko kuyanywesha akayanywesha amandazi.

iyi foto iragaragaza ibicuba binini cyane bashiramo amata kugirango ayo mata ataza kwagirika cyangwa ngo ahure n'ikindi cyibazo cyangwa ngo apfe, rero babifashisha nyine mu gutunganya amata menshi.

Abagabo bane bafite ibirahuri by'amata bine, ndetse iruhande rwabo hateretseho amasahani ariho imigati ndetse bazamuye hejuru ibikombe byabo bigaragara nkaho bishimye.

Isambusa ziteretse ku ndobo, isambusa harimo inyama ndetse isambusa bazikoresha ifarine ndetse n'ibitunguru barangiza bakabishyira mu mavuta. Isambusa zizigira intungamubiri ikindi kandi isambusa ziraryoha cyane mbese izi sambusa bashyiramo n'urusenda.

Icyapa cy'umweru kiriho umukobwa w'inzobe, ufite imisatsi miremire y'imikara ndetse ari gukanda ku gakarito, ndetse afite inzara z'umukara. Hejuru ye handitse amagambo ari mu mabara atandukanye, umutuku ndetse n'umweru, n'umukara, ndetse n'imibare igiye itandukanye

Urupapuro runini rurimo ibara ry'ubururu n'umweru, handitseho amagambo ndetse n'imibare byandikishije ibara ry'umukara, ndetse hejuru hashushanyijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ndetse n'icunga hejuru agiye atandukanye.

Icyapa cy'umweru kiri ikirangantego cy'u Rwanda ndetse iruhande hariho ikirangantego y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ndetse handikishijeho amagambo y'umukara agiye atandukanye harimo n'imibare.

Ubwoko bw'amafaranga agiye atandukanye ari mu mabara atandukanye harimo magana atanu, magana abiri, ijana mirongo itanu, makumyabiri, cumi atanu izi note zifite amabarage atandukanye harimo umutuku, umuhondo, icyatsi, icunga ndetse n'umukara.

Amafaranga ari mu bwoko butandukanye igihumbi magana igihumbi, ibihumbi bibiri, ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi ndetse n'ibiceri biteretse hejuru y'ubwo bwoko bugiye butandukanye ndetse ayo mafaranga ari mu mabara atandukanye.

Umugabo w'inzobe ufite imisatsi migufi wambaye impeta y'umuhondo nindi isa nk'ivu ndetse afite amafaranga menshi mu ntoki afite amabara agiye atandukanye.

Umugabo ufite ubwoko bw'amafaranga bugiye butandukanye hariho asa ubururu ndetse n'agiye asa umutuku ashushayije abantu bagiye batandukanye, ndetse hariho n'ubwoko bw'amafaranga bugiye butandukanye asa nk'aho ari kuyabara.

Inzu ifite irangi ry'umuhondo ndetse ifite inzugi ziteye irangi ry'umweru handitseho handitseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara n'umutuku ndetse hariho ibyapa bigiye bitandukanye by'amabara y'umukara n'umweru yandikishijemo ibara ry'umweru.

Ameza asa umuhondo, ariho intebe enye, ndetse ari ku mapave hasi, ndetse iruhande rwabo hari inzu iri mu mabara y'umweru, ndetse yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse ifite urugi rw'umutuku. Ndetse iruhande hari indi nzu iri mu mabara y'umweru.

Intebe z'umukara zigiye zitandukanye harimo n'udusego tw'umukara n'umweru n'imeza iri mu mabara y'umweru ateretse ahantu hasa umuhondo, izo ntebe iruhande rwayo hari imbaho zigiye zitandukanye ndetse n'imisego iteretseho y'umukara n'umweru.

Inzu iri mu mabara y'umweru hariho amarido asa na kaki, ndetse hariho n'intebe zigiye zitandukanye ziririmo ibara ry'ivu ndetse n'ameza ari mu ibara ry'umutuku wijimye cyane, ndetse n'amatara ari mu ibara ry'umweru ndetse hasi hubakishijwe amakaro y'umweru.

Inzu nini cyane iri mu mabara y'icyatsi ndetse ifite amadirishya ateye irange ry'umweru n'inkingi ziteye irange ry'umweru ndetse imbere yaho hateye ibiti by'icyatsi ndetse n'ibyatsi byo hasi bigiye bitandukanye harimo n'ameza n'intebe mu byatsi ndetse ifite amatara y'umuhondo iri kwaka amatara y'umuhondo.

Imashini y'umukara iteretse ku meza ndetse iruhande rwawo hari agakarito k'umweru, ndetse imbere yaho hari intebe ebyiri iy'umukara n'indi y'umweru, ndetse ndabona n'urugi rufunguye.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ziteretse ahantu kumeza ndetse hariho nama keke agiye atandukanye ateretse kumeza ndetse izi mbuto ziteguye kuburyo butandukanye ari kumeza asa y'umuhondo ndetse n'umweru bigiye bitandukanye.

Amagambo agiye atandukanye yanditse ku gikuta cy'ikirahure. Mo imbere harimo intebe zisa umuhondo, ndetse hagaragara nk'aho ari heza cyane, ndetse ibyo birarahure bifite amabara hejuru y'umukara.

Icyapa k'icyatsi kiri imbere ku nzu cyanditseho amagambo y'umweru agiye atandukanye ndetse haruguru hari inzu iriho icyapa gishushanyijeho umugore ari mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru.

Abagabo batatu umwe wambaye umupira w'umutuku ndetse w'igikara n'undi wambaye ishati y'umweru w'igikara ndetse yambaye n'akagozi mu ijosi kari akana k'agapapuro ndetse n'u wambaye ikote ry'umukara, n'ipantaro, n'umukara, n'ishati y'umweru ndetse bari ahantu imbere y'imeza hari igitambaro cy'amabara y'umweru ndetse n'icyatsi ateretseho ibintu bigiye bitandukanye.

Inzu irimo ho icyapa cy'umweru ndetse hashushanyijeho ibara ry'umuhondo handitseho amagambo y'umukara atandukanye, ndetse harimo amameza atandukanye ariho imashini z'umukara zitandukanye, ndetse hariho n'intebe y'umukara ifite inzugi z'umweru ndetse irimo n'ibirahure bimwe bisa n'umuhondo.

Inzu irimo abantu ndetse harimo imeza ndetse n'imashini. Harimo abagore n'abagabo ndetse bambaye ubupfukamuwa. Bari gutanga ubufasha bugiye butandukanye, ndetse iyo nzu n'irimo icyapa, umugore n'umwana. Umugore n'umugabo bateruye umwana, ndetse harimo n'amarange atandukanye, harimo ubururu ndetse n'umweru.

Inzugi z'umweru zishushanyijeho amabara y'ubururu ndetse ayo mabara akaba yanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo ndetse hakaba handitseho amagambo agiye atandukanye.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara impande ye umusore uhetse igikapu cy'umutuku imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ushinzwe umutekano inyuma yabo inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi.

Sitasiyo ya enjeni iri ku ku muhanda hirya hari rompuwe ya jaride itara rihagazemo, ipoto ndende iriho insinga nyinshi, umumotari uhetse igikapu.

Imbuto zigiye zitandukanye ziteretse ahantu kumeza harimo ibitunguru, inyanya, ibihaza, amashu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ubwoko bw'imboga butandukanye harimo ibibiringanya ndetse n'ubundi bwoko butandakanye bw'imboga.

Isoko rinini rigiye ririmo abantu batandukanye, harimo abazungu ndetse n'abandi bantu b'ibikara, abagore, abagabo ndetse n'abandi batandukanye. Harimo imitako igiye itandukanye, harimo ibitenge, ibikapu bigiye bitandukanye ndetse hariho n'imashini zo kudoda na sima isa umukara n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Umugore winzobe wambaye amaherena, wateze n'igitambaro cyumukara, wambaye nagashati karimo umukara numweru nudukomo twumukara ndetse imbere ye hari umugabo uri kumuhereza inyanya, afite nishahi mu ntoki imbere yabo hari inyanya ndetse ku dusahane tugiye dutandukanye.

Ibirayi bisandaguje hasi ndetse n'ibitoki ndetse harimo abagore bagiye batandukanye harimo iminzani igiye itandukanye ndetse n'imifuka iri inyuma yaho inyuma hariho inzu y'amatafari ahiye ndetse n'inzugi z'umutuku.

Imitako myinshi igiye itandukanye, harimo uduseke, utwibo, ingoma, ndetse n'ibindi bintu bakoreshaga hambere bigiye itandukanye, harimo ibishushanyo bigiye bitandukanye, ndetse n'udukomo bambara ku maboko.

Indobo irimo isambusa z'ibirayi ndetse harimo abagore batatu n'umugabo wambaye inkweto z'umutuku usa nkaho ari kubagurisha izo sambusa, ndetse iruhande rwabo hari akameza karekare gateretseho ibase ndetse nakajerekani harimo imifuka.

Umutaka munini urimo abagabo bane, batatu muri bo bambaye udushati tw'umuhondo ndetse n'udupira dusa icunga, umwe muri bo yambaye agapira gasa umweru ndetse n'ipantaro isa n'umuhondo werurutse ndetse undi yambaye agapira gasa nk'ivu ndetse iruhande rwabo haparitse imodoka ziteye zitandukanye ndetse n'ipikipiki.

Icyapa cy'umuhondo cyanditseho amagambo agiye atandukanye yanditswe mw'ibara ry'umukara ndetse hari n'akandi karongo kari mw'ibara ry'ubururu handitsemo amagambo y'umweru.

Icyapa gitoya kiri mu mabara y'umuhondo handitseho amagambo agiye atandukanye ndetse n'imibare igiye itandukanye giteretse ahantu ku meza, ndetse hasi yaho hari icyapa kiri mu mabara y'umweru gishushanyijeho amabara atandukanye: icyatsi, umuhondo, ndetse n'umutuku ndetse n'umukara byanditseho amagambo agiye atandukanye.

Umumotari uri ku ipikipiki wambaye akajiri kari mu icunga rihishije, wambaye kasike t'umutuku wambaye ipantaro y'umukara, ipikipiki iriho agasanduka,

Iyi foto iragaragaza umukozi w'icyigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda kitwa mtn gukorera mu Rwanda aho baba baje mu imurikagurisha ndetse umuturage cyangwa uwariwe wese ufite ikibazo kijyanye n'ubufasha Bamuha ubufasha kubyerekeranye n'iki kigo akaza barakamwakira bakamuha ubufasha.

Iyi foto igaragaza ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda kitwa Mtn ku kicaro cyaho. Aho umuntu agenda akaka ubufasha runaka bitewe n'ikibazo afite.

Iyi foto iragaragaza ikigo k'igihugu k'itumanaho gifunguye ndetse kirimo n'abakozi bacyo ukeneye serivisi ari njira bakamwakira bitewe n'ubufasha yifuza ko bamuhereza.

Akazu k'umuhondo karimo abagore babiri ndetse umugore umwe akaba ameze nkaho ari kwandika afite ikayi n'ikaramu ndetse muri ako kazu hakaba harimo icyapa cy'umutuku ndetse n'ikindi cy'umuhondo kigaragaza ikogo k'igihugu k'itumanaho gikorera mu Rwanda bita emutiyeni.

Abagabo babiri bameze nkaho barikubyina, ndetse umwe yambaye ipantaro y'ikoboyi y 'ubururu ndetse n'agapira ku mweru n'undi wambaye agapira ku mweru n'ipantaro y'umweru bameze nkaho barikubyina, inyuma ye hahagaze umugore ndetse hariho icyapa kinini ndetse n'ikindi cyuma cy'indangururamajwi giteretse inyuma yabo.

Iyi foto iragaragaza icyapa, ndetse iki cyapa , ibi byapa bikaba biri mu nzu. Ibi byapa bikaba ari iby'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, bacyita Emutiyene. Noneho hano hakaba ari icyapa kiriho umugore, ndetse n' ikindi cyapa kigaragaza kugura amafaranga yo guhamagaza, bakagushyirira ku mpira runaka utarenza.

Umugabo n'umugore bahagaze ahantu mu mutakandetse iruhande rwabo...

Iyi foto iragaragaza icyapa cy'umuhondo k'ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda twita emutiyeni ndetse cyanditseho amazina y'umuntu ucuruza witwa Ngabonziza Jean Bosco.

Iyi foto igaragaza akazu gatoya batangiramo ubufasha bw'ikigo k'ikoranabuhanga k'itumanaho gikorera mu Rwanda bita MTN bahatangira ubufasha runaka bitewe n'icyo umuntu yifuza.

Iyi foto iragaragaza akapa, icyapa cya..., cy'ikigo cy'itumanaho gukorera mu Rwanda bita MTN. Aho wishyura udakaswe amafaranga, ndetse ukanohereza ukoresheje telefone, udakaswe amafaranga.

Umugabo wicaye ufite agakapu ndetse wambaye ipantaro y'ubururu afite telefone ndetse n'iyo telefone harimo ibara ry'umuhondo bigaragaza ko hari ikibazo cyabaye cyangwa cyamubayeho.

Ifoto iragaragaza umugabo uri ku igare wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare ndetse inyuma yambayeho umupira w'umuhondo w'ikigo cy'igihugu cy'itumanaho cyitwa MTN gikorera mu Rwanda ndetse ku ijosi ryiwe hakaba hariho indangururamajwi.

Iyi foto iragaragaza umuntu uri mu kazu gato iteye amarange y'umuhondo y'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda harimo karindari igaragaza igihe cy'umwaka noneho uyu muntu akaba atanga serivise za MTN.

Imodoka nini iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, ifite amapine y'umukara, iparitse mu muhanda w'umukara ndetse imbere yaho hari inzu ndende iri mu mabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umweru, hariho icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse yandikishije amabara y'ubururu ndetse n'umukara.

Icyapa kinini kirimo ibara ry'umweru, harimo amabara y'ubururu ndetse n'amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umutuku n'umweru agiye atandukanye ndetse hari n'ikirahure giteretse ku meza ndetse iruhande rwabo hari imashini y'umukara ndetse n'umweru.

Umugore w'inzobe wambaye agapira k'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n' imisatsi miremire n'amadarubindi. Ari kumwe n'undi mugabo wambaye ingofero y'icyatsi, imbere ye haparitse ipikipiki y'umukara. Uwo mugabo yambaye ipantaro y'umukara na ga z'umukara, ndetse n'ikoti riri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi cyerurutse.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru n'umuhondo byanditseho amagambo agiye atandukanye arimo amabara y'umukara ndetse n'umweru yanditseho ijambo irembo ndetse n'andi magambo agiye atandukanye.

Iyi foto iragaragaza ibitoki biri mu tuntu tw'udukarito bakora noneho ibi bitoki bigaragaza ko hano harimo ari mu ruganda bakoramo inzoga nyine ibi bitoki nyine babikoramo inzoga hano ni mu ruganda.

Iyi foto igaragaza urubuga bahahiraho ku ikoranabuhanga ukoresheje ikoranabuhanga uragenda ugahitamo igicuruzwa wahisemo igikapu, terefone, imyenda ikintu cyose wahisemo warangiza ukerekana ko wagikunze wamara kwerekana ko wagikunze bo ubwo icyo bakora barakikoherereza.

Iyii foto iragaragaza icyapa urubuga bahahiramo, noneho rugaragaza rwa fesibuku igaragaza abantu bagize urwo rubuga, ndetse n'ushaka kwinjira muri urwo rubuga arabisaba.

Urubuga rw'ikoranabuhanga bagiye bahahiraho, ndetse hariho amasakosi, inkweto ndetse n'ibyuma byumutsa imisatsi, imisatsi bashyira ku mutwe, ndetse imipira, ndetse n'inkweto zigiye zitandukanye, ndetse n'imyenda, amakanzu agiye atandukanye.

Iyi foto igaragaza ubwoko bwa padi abakobwa bakoresha iyi bari mu mihango. Ni ifoto igaragaza ubwoko bwa padi abakobwa bakoresha bw'udutambaro abakobwa bakoresha bari mu mihango.

Urubuga bahahiraho ibintu bitandukanye wowe utumiza ikintu, cyose ushaka yaba imyenda ipantaro ndetse n'ikindo gikoresho, warangiza kugihitamo ukabereka ko icyo giikoresho wagihisemo, barangiza bakakwereka ko ibyo watumije byakunze, bakikoherereza aho uri.

Ifoto iragaragaza umugabo wambaye umupira usa n'umutuku ndetse n'ingofero ndetse ateruye igikapu, iruhande rw'iwe hariho moto ndetse hateretseho igikapu cy'umutuku.

Iyi foto igaragaza abantu babiri, umuzungu ndetse n'umugore w'umwirabura bafite ingofero za moto bambara mumutwe kugira ngo badakora impanuka.

Iyi foto igaragaza ubwoko bw'ibiryo bwa ishyo. Batanga ibiryo bifite karite harimo imbuto zikozwemo yogati. Bakoramo yogati mu mbuto, noneho bikaba bikorerwa mu Rwanda.

ifoto iragaragaza urubuga bahahiraho, ruriho, inganda nyinshi zitandukanye rukora ibintu byinshi bitandukanye ukeneye guhaha araza agahaha ikintu cyose ashaka, bitewe n'urubuga ashaka guhahiraho.

Inzu nini iri mu mabara y'umweru isakaje abati y'umutuku, ndetse n'indi iri iruhande iri mu mabara y'umweru iteye, yubatse mu gipangu kiri mu mabara y'umukara n'umuhondo, inzugi z'umukara n'umuhondo ndetse cyubakijijwe amatafari ahiye, ndetse icyo gipangi harimo amatapi, ndetse imbere yaho hariho amagambo agiye atandukanye.

Inzu bakarabiramo harimo ubwiherero bw'umweru amakaro y'umweru, amadirishya y'umweru ndetse n'ubwiherero bw'umweru, inzugi z'umweru bugiye butandukanye.

Inzu irimo ubwogero ndetse hariho n'ubwiherero bogeramo igaragara nk'aho igurishwa ndetse harimo n'amazi y'ubwoko bugiye butandukanye.

Inzu nini irimo amabara y'umweru ndetse ifite amakaro y'umweru manini, harimo n'ibara ry'umukara, ifite inzugi z'umukara ndetse n'amatara y'umweru.

Igipangu cy'umukara n'umweru, kirimo inzu iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, ifite utwuma dushinze hejuru turinda abantu kugwa, ndetse imbere yaho hari umuhanda w'umukara.

Inzu iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru ndetse n'umukara isakaje amabati y'umukara ndetse ifite amakaro y'umweru n'uduti two ku ruhande rw'umukara ndetse inzu ifite inzugi z'umuhondo ndetse n'ibirahure. inzu igaragaza ibiho, imbere yaho hariho amagambo agiye atandukanye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ndetse iteye amarangi y'umweru n'ubururu, ifite imiryango y'umukara hariho umugabo uri kwinjira wambaye umupira w'amaboko maremare y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Inzu ndende isize amabara y'icunga ndetse n'umweru ndetse ifite inzugi z'icunga ziri mu gipangu cyiza kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo, hasi hari amapave ari mu ibara ry'icunga agiye atandukanye, ndetse imbere yaho hari indobo, hari indabo nyishi zigiye zitandukanye.

Inzu nini iri mu mabara y'umweru ndetse yubakishijwe amabati asa nk'ivu ndetse imbere yaho hari amapave ari mu mabara atandukanye ndetse ifite ibirahuri by'umukara, amakaro y'umweru ndetse na bariko z'umukara, ndetse iri mu gipangu cy'amatafari ahiye ndetse imbere yaho handitseho amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'umukara.

Inzu iri mu mabara y'umweru ifite iri kwaka amatara y'umweru, ifite utwuma two ku ruhande turi mu ibara ry'umukara ndetse n'amadirishya n'inzugi biri mu ibara ry'umukara by'ibirahuri ndetse hasi hariho amakaro ari mu ibara ry'umweru.

Inzu irimo amakaro harimo utubati tugiye dutandukanye, harimo amadarubindi, amasakoshi y'ubwoko butandukanye, ndetse n'indi mitako y'ubwiza igiye itandukanye ndetse harimo n'inkweto z'ubwoko butandukanye.

Agakarita k'umuhondo kanditseho amagambo agiye atandukanye iteka gashushanyijeho utuzu tugiye dutandukanye, ndetse hari hanikishijeho amagambo y'umukara ndetse harimo n'imimero ndetse harimo n'amazina agiye atandukanye.

Abantu bagiye batandukanye bicaye mu nzu ifite amarangi y'umuhondo ndetse, bambaye udupfukamunwa tugiye dutandukanye batwambaye, bicaye ku ntebe zisa umuhondo ndetse n'ameza arimo igitambaro gifite amabarange atandukanye harimo umweru umutuku n'icyatsi.

Icyapa kiri mu amabara y'umweru handitseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'andi y'ama mabara y'umuhondo, n'andi arimo ibara ry'ubururu ndetse n'indi mibabara y'umutuku.

Abantu benshi bicayemo ahantu m'imbere mu inzu, imbere yabo hariho ameza n'ubucupa bw'amazi, hejuru ku meza na za mikoro imbere yaho harimo na za telefone zabo niho zirambitse hakurya urugi rurafunguye.

Icyapa kiriho abantu batandukanye gisa amabara y'ubururu handitse amagambo y'umweru, kiriho abana batatu bazamuye amakarita hejuru mu kirere y'umuhondo yanditseho amagambo agiye atandukanye, ndetse hariho umugore umwe uteze igitambaro cy'umutuku wigikara uzamuye ikarita ndetse n'abandi bantu batagaragara neza.

Inzu y'ubucuruzi irimo abantu benshi bagiye batandukanye, harimo ibyapa by'umweru byandikishijweho amagambo agiye atandukanye, harimo abantu benshi batandukanye arimo umugabo ndetse n,umukobwa wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'icyatsi, ndetse n'undi wambaye ufite imisatsi miremire y'umukara wambaye imyenda y'imikara ndetse inzu ni iy'amakaro yubakishije inkuta z'umweru.

Isoko ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse muri iryo soko harimo abagore bane, umwe wambaye umupira w'umweru n'umukara, ndetse n'umutuku n'undi wambaye ipantaro y'umukara n'umweru umeze nk'aho baje guhaha.

Iduka ririmo ibintu bigiye bitandukanye harimo umugore wambaye agasengeri k'umukara ndetse wambaye n'ijipo y'igitenge iri mu mabara menshi atandukanye, umuhondo, ubururu, umukara, icyatsi ndetse afite akanu k'icyuma imbere yiwe karimo ibintu yagiye ahaha bitandukanye, hasi muri iyo nzu harimo amakaro ndetse n'utundi twuma tugiye dutandukanye.

Isoko rinini harimo icyapa kirimo amabara y'umutuku ndetse harimo ubwoko bw'imboga bugiye butandukanye harimo inyanya, karote, ndetse n'ubundi bwoko bugiye butandukanye harimo utubati.

Isoko bahahiramo ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo imbuto, ndetse n'inyama, ndetse n'ibindi byinshi bikomoka ku matungo.

Abantu bagiye batandukanye bari mu nzu iri mu mabara y'umweru ndetse n'amabara y'icunga, ndetse n'utwapa turimo amabara y'icunga, umweru ndetse n'umutuku, n'umusore uri imbere wambaye umupira w'icunga, wanditseho amagambo y'umweru inyuma, ipantaro isa nk'ivu.

Inzu ndende iri mu mabara y'icunga ndetse hariho ibyapa biri mu mabara y'umweru, hashushanyijeho andi mabara y'icunga, umutuku ndetse n'umuhondo ndetse handitseho amagambo y'icunga agiye atandukanye, imbere yaho hari abantu bari kugenda mu muhanda w'umukara ndetse n'undi w'amapavi, harimo amapikipiki agiye atandukanye ndetse n'abantu benshi bagiye batandukanye.

Isoko rinini bahahiramo ririmo ubwoko bwinshi bw'ibicuruzwa ndetse harimo umugore wambaye imyenda y'umukara, ndetse uri gukurura akantu k'umutuku, ndetse iyo nzu iri mu mabara y'umweru irimo amakaroy'umweru, ndetse harimo n'icyapa n'icyapa kimanitse hejuru gisa icunga n'itara ry'umweru.